Ibyicungo cyangwa ibyuma bitanga umunyenga akaba ari kimwe mu bikoresho bikunda kugaragara ku mashuri y'abana bato b'incuke, akaba ari kimwe mu bintu bakora iyo bagiye mu gihe cyo kuruhuka bakarya iminyenga kuri ibi byuma bakicunga bituma bishima ndetse ubwonko bwabo bugakora neza.

Icyumba cy'ishuri kigwamo n'abanyeshuri, hakaba habamo ibikoresho bikenerwa mu kwiga, aho harimo intebe ndetse n'ikibaho kiba gisa n'umukara, kiba kiri ku gikuta imbere aho umunyeshuri wese abasha kubona. Icyo umwarimu akoresha yandikaho ni ingwa yigisha abanyeshuri.

Ikigo cy'amashuri cyigishirizwamo abana bato, bituma bakura bafite ubumenyi, ndetse bakaba kibafasha kugira ngo imitekerereze yaguke, bazabashe kubaho neza, bateze imbere igihugu n'imiryango yabo muri rusange.

Hari gukorerwa imirimo y'ubwubatsi ndetse abantu bambaye ibikoresho cyangwa imyambaro yabugenewe igaragaza akazi barimo, nk' amajire ndetse n'ingofero. Kimwe mu bintu bibarinda guhura n'impanuka, inkweto nazo zikomeye zabugenewe zituma badakomereka mu kazi kabo k'ubwubatsi.

Icumba cy'abanyeshuri bigiramo ikoranabuhanga. Habamo imashini za komputa abanyeshuri bigiraho cyangwa abandi bagakoreraho n'ubushakashatsi mu myigire yabo, akaba ari kimwe mu bintu by'iterambere cyangwa tekinoroji byageze ku banyeshuri.

Abanyeshuri biga ibyo gukanika bizwi nka tekanike. Bakaba bafite moteri bashenye barimo gukura, ndetse bahagarariwe n'umwarimu areba ko ibyo bakora ari byo. Ibi bikorwa mu myuga, cyangwa mu mashuri yigisha imyuga.

Ishuri ry'ubukorikori. Aha higishwa gukora ibikoresho by'inkweto no kuzisana. Aha hakaba ari ishuri ry'imyuga bigishirizamo abana cyangwa abandi bantu bose bashaka kubyiga. Biga gukora inkweto no kuzidoda mu gihe zacitse.

Abanyeshuri bari mu gikorwa cy'ubumenyingiro, biga ibintu by'imyuga. Bakaba bari ahantu haba ibikoresho byiganjemo imashini bakoresha bari kwiga, kandi akaba ari kimwe mu bintu bituma bagira ubumenyi bazakenera mu gihe bageze ku isoko ry'umurimo.

Imirimo y'ubukorikori yiganjemo kuboha ibikoresho gakondo binakoreshwa n'iki gihe. Baboha bakoresheje intoki, urushinge, imideyi cyangwa se ubwatsi bwabugenewe, bakaba babohamo ibikoresho byiganjemo ibiseke n'utundi tuntu dukoreshwa mu bukwe n'ahandi n'imitako.

Abanyeshuri bari mu igaraje cyangwa ahantu hakorerwa ubukanishi. Ibi bikaba bikorwa mu buryo bwo kwiga ibyo bazakora nyuma yo kurangiza. Bakaba bajya ahari imodoka bakareba uko bikorwa biga icyo bita ubumenyingiro. Bikaba ari ibintu byiza cyane kuko babona akazi barangije.

Cyangwa se korari yambaye impuzankano imyenda isa iri imbere ku rubyiniro aho bapafumingira cyangwa se baririmbira. Abantu baje kubareba bose bababona bakaba bafite ibyuma by'umuziki byiganjemo mikorofoni, gitari ndetse n'ingoma zizwi nka sembare. Bakaba babikora mu gushimisha abantu no gutanga ubutumwa.

Abanyeshuri bambaye inifomu cyangwa imyambaro biga bambaye, higanjemo ingofero zibarinda impanuka mu gihe bari kwiga ubumenyingiro, bakaba bari ahantu bigaragara ko bari kugerageza ubumenyingiro bw'ibyo bize.

Ikibumbano cy'ingagi abantu bari kwifotorezaho, higanjemo abashinzwe kuyobora ba mukerarugendo bafasha gusura mu mashyamba aha bakorwa kuko baba barabitojwe bituma birinda kuba inyamaswa zbangiza cyangwa bo ngo bazigirire nabi.

Abanyeshuri biga ibijyanye n'ikoranabuhanga, bakaba bari mu cyumba kirimo ibikoresho bigiraho ibyo bazakora nyuma yo kurangiza kwiga, hakaba harimo imashini bakoresha, ndetse n'izo bigiraho ibyo biga by'ikoranabuhanga.

Yigisha imyuga, aha hakaba harimo abanyeshuri biga ibijyanye no gukora ubwiza ku bantu, birimo gukora inzara, imisatsi ndetse n'ibindi mu isura bizwi nka mekapu. Bikaba bibafasha nyuma yo gusoza, bakihangira imirimo cyangwa bakajya no gukorera ahandi, bakiteza imbere.

Abanyeshuri biga ibintu by'imyuga y'ubudozi akaba ari umwuga bajya kwiga ndetse bagakoresha imashini zabugenewe, bituma babasha kudoda imyenda twambara ndetse bakaba bashobora no gusana iyangiritse, ibi bituma iyo bavuye ku ishuri babasha kwihangira imirimo bikabateza imbere binyuze mu byo bize mu mashuri.

Ishuri ryigisha ibizwi nk'imyuga bakaba bigisha abanyeshuri imyuga. Aha abanyeshuri bambaye iniforume z'ibisarubeti ndetse n'ingofero zibarinda kuba bakomerekera mu kazi. Bakaba biga gukora ibikoresho bitandukanye, bifashishije imashini zabugenewe.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'imyuga bakaba biga imyuga itandukanye, aba biga imyuga y'ubutetsi, bari mu gikoni aho bigiraga iby'ubumenyi ngiro, uko bateka cyangwa bategura amafunguro agezweho, bikaba bituma bashobora gukora mu mahoteli no mu maresitora, ndetse no mu bukwe igihe bakenewe, bituma akazi kabo kabaha amafaranga menshi cyane.